Umukecuru w'imyaka iri hagati ya mirongo irindwi n'ijana, ahagaze ari gutanga ikiganiro afite ati irangururamajwi, impande ye hari imodoka ebyiri, inyuma na ho hari ibiti ndetse n'amazu. Biragaragara ko ari guhereza abantu ikiganiro, abahugura cyangwa se abigisha.